Inyubako ipanzemo amatureyi arimo amagi. Harimo amatureyi asa n'icyatsi, umuhondo, ubururu n'umutuku.

Iduka riri gucuruza imiti y'ubwoko bwose ririmo umudamu wambaye ishati y'umweru uba ari kuri mashini wambaye na rinete.

Inyubako posite do sante, iriho abantu bari kwa muganga, harimo abakobwa, abagabo bari ku kibuga, bari kuganira, bari kwerekana iby'aho ngaho ku kibuga, yubakishije amatafari ahiye.

Umuganga uri muri farumasi w'umukobwa wambaye itaburiya y'umweru, imbere wambariye ku ishati y'ubururu y' amaboko maremare.

Indabo nziza cyane, zimwe z'icyatsi, izindi z'umutuku udahiye, indabo twifashisha turi mubu bukwe, ukazishyira ku mamodoka.

Igiti cyururabo kiri muri garide gifite amabara, amabara y'umweru udakeye umuhondo akeye udakeye.

Umurima munini urimo amabuye y'umukara n'ayumweru, hateyemo n'ururabo ufite amababi y'icyatsi n'umuhondo.

.....Nziza cyane. Zirimo amabara ubururu, icyatsi, iroze, umweru, umuhondo n'ubururu budahiye cyane.

Indabo nziza cyane z'amaroza zifite amabara y'ubururu, icyatsi, umukara, udakeye neza, umweru n'iz'icyatsi n'amabara yi'icyatsi.

Shufureri yeze ifite kuruhande icyatsi n'umweru ku udahiye neza.

Umurima munini urimo ibiti by'ibibonobono, byinshi cyane, nk'ishyamba, hirya hariho ubuhinge.

Ururabo rwiza cyane, rufite amabara y'umweru rutoya n'icyatsi kivanze mu busitani.

Ubusitani bunini cyane, buteyeho igiti bita umunyinya n'ikindi giti bita igiteki.

Ni umugwegwe uri mu murima, umurima w'amakoro. Umugwegwe ni igihingwa cyiza bakuramo imitako.